Umuhinzi uri mu murima w'ibirayi akaba ahetse ipombo bigaragara ko ari guteramo umuti kugira ngo abashe kuba yabirinda kuba byarwara uburwayi bugiye butandukanye.

Umugabo wambaye igisarubeti cy'ubururu akaba ahetse ipombo, ari mu murima w'ibigori bikiri bitoya akaba ari kugenda ateramo umuti.

Umugabo wambaye imyambaro yabugenewe irimo uturindantoki ndetse n'udupfukamunwa ari mu murima uhinzeho ubwoko bw'imbuto zigiye zitandukanye bigaragara ko ari guteramo umuti.

Umugabo uri mu murima w'umuceri, akaba yambaye agapfukamunwa, kamurinda kugira ngo mu gihe ari gutera umuti mu muceri ataba yakandura izindi ndwara. Ahetse ipombo, akaba ari kugenda atera umuti muri uwo murima w'umuceri.

Ikiganza gifite ubwoko bw'ifumbire bigaragara ko ari kuyishyira kuri iki gihingwa. Ni igihingwa gihinze ahantu mu intabire. Ni byiza gufumbira ibihingwa kugira ngo bibashe kwera neza.

Abagabo bari impande y'icyuzi bigaragara ko bari kuroba amafi, ni ubworozi bw'amafi aho ababukora babasha kwiteza imbere kuko babasha kubona amafaranga ndetse bakabona n'amafi yo kurya.

Abagabo bane bari mu cyuzi, aho bororera amafi, bakaba bafite urushundura, bigaragara ko bari kuroba, bakaba bateruye harimo amafi menshi.

Abagabo batanu bari impande y'igishanga bakaba bateruye urushundura runini bigaragara ko bavuye kuroba amafi, ubu bworozi bw'amafi bukaba bufasha ababukora mu kwiteza imbere.

Umugabo uhagaze impande y'icyuzi, akaba yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, akaba ateruye agasahani kariho ibintu bigaragara ko ari ibiryo azaniye ayo mafi ari muri icyo cyuzi.

Umugabo ndetse n'umukobwa bari ahantu mu murima w'umuceri, bigaragara ko ari igishanga cyangwa se icyuzi, bakaba bateruye igishitingi bigaragara ko bisa nk'aho binitsemo ibintu.

Umusaruro w'ikawa ukaba ushashe ahantu kuri shitingi aho abantu bari kuwujonjora bakuramo itameze neza kugira ngo babashe kuba bayitunganya.

Abantu batatu barimo abagabo babiri ndetse n'umudamu, bakaba bari gusarura igihingwa cy'ikawa, inyuma yabo hakaba hagaragara ubwoko bw'ibiti bigiye bitandukanye.

Umusaruro wa kawa ukaba usutse ku ishitingi, bakaba bari kuwujonjora ndetse banawutunganya kugira ngo ubashe kuba wateza imbere abawusaruye.

Ni umurima urambuye hakaba hahinzeho ingano zihinze ku duterasi duto kandi zikaba ziteye ku murongo, abakora ubu buhinzi banezezwa nuko bubasha kubateza imbere.

Abantu batatu barimo abagabo babiri ndetse n'umudamu, bari mu murima w'icyayi bakaba bari kugisarura, hirya y'uwo murima hakaba hagaragara ibiti by'ubwoko butandukanye.

Abantu babiri bari mu murima w'icyayi akaba ari umumama ndetse n'umugabo, bakaba bari gusarura icyayi, inyuma ye hakaba hagaragara undi muntu ariko utagaragara neza.

Ni umurima uhinzemo igipimo k'ikawa ariko itaratangira kurabya cyangwa se ngo yere, ni ikawa ihinze ku buso bunini ikaba ihinze ku buryo bw'imirongo.

Icyumba kirimo ubwoko bw'imiti itandukanye yifashishwa kwa muganga hakaba hari ikarito irimo ibintu bimeze nk'uturindantoki ndetse n'amacupa arimo ubwoko bw'imiti igiye itandukanye.

Icyumba kirunzemo imiti itandukanye iri mu dukarito ndetse no mu tudobo, bigaragara ko ari imiti ndetse n'ibiryo by'amatungo, aho abashaka kugura iyo miti bagana izi nyubako.

Ubwoko bw'imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo ikaba iri mu ducupa ndetse no mu tudobo dutoya, ni imiti irunze ahantu muri sitoke yayo.

Ubwoko bw'imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura inyamaswa, ikaba iri ahantu habugenewe, aho irunze kugira ngo abayikeneye bajye baza kuyifata, bityo bavure amatungo yabo.

Amakarito arimo ibiryo ndetse n'imiti y'amatungo, bigaragara ko ari botiki icuruza ibiryo ndetse n'imiti y'amatungo kugira ngo abahagana babashe kuba babona ibyo bakeneye.

Aho bacururiza imiti itandukanye y'amatungo, hakaba hari amacupa y'ubwoko butandukanye burimo ubwoko bw'imiti itandukanye ifasha kugira ngo bavure inyamaswa zigiye zitandukanye zirimo inkoko.

Ubwoko bw'imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura inyamaswa, ikaba iri mu macupa agiye atandukanye, ikaba iri ahantu bigaragara ko ari mu kabati.

Umugabo uri mu murima w'ibigori akaba ari kugenda akuramo ibyafashwe n'indwara ku nkengero ndetse no hirya y'uwo muririma w'ibigori hakaba hari ubwoko bw'ibiti n'ibimera bigiye bitandukanye.

Abahinzi biganjemo abamama bari mu murima uhinzweho ubwoko bw'ibihingwa bitandukanye bigaragara ko bari kubagara, hirya hari kugaragara indi mirima ihinzeho ibindi bihingwa.

Abantu bateraniye mu murima uriho ibimera bigiye bitandukanye bakaba bambaye udupira tw'icyatsi kibisi bigaragara ko ari impuzankano bakaba bari gutera ibiti.

Abantu babiri umubyeyi ndetse n'umupapa, bakaba bari ahantu hahinze, bigaragara ko bari gutera ibimera, hepfo yabo hakaba hari ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye.

umugabo wambaye ikoti ry'umutuku ndetse n'inkweto za bote ari gutera ubwoko bw'ikimera, ku nkengero ndetse no hirya hakaba hahinze ibyatsi bigiye bitandukanye.

Umugabo uri mu murima uriho ibyatsi akaba afite igare ripakiyeho ikiba cy'ibyatsi, bigaragara ko avuye gushaka ubwatsi bwo kugaburira cyangwa se gusasira amatungo.

Ababyeyi bari mu murima w'amashu bigaragara ko bari kuyabagara cyangwa se bari gukuramo ibyatsi, aba bahinzi banezezwa n'uko babasha kwiteza imbere babikesha ubuhinzi bakora bwa buri munsi.

Insina irihanwa mu umurima, akaba ari umurima uhinzemo ibihingwa bitandukanye bigaragara ko harimo ibigori ndetse n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye.

Umurima uhinzemo ubwoko bw'imboga zigiye zitandukanye ziganjemo dodo, ibitunguru ndetse n'izindi, uyu murima ukaba ufasha abantu kubona ubwoko bw'imboga kugira ngo barye indyo yuzuye.

Umurima urimo ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye, bigaragara ko hashobora kuba ari imboga za dodo ndetse n'ubundi bwoko bw'imboga bugiye butandukanye, ariko hakaba harimo n'ibindi byatsi bitari imboga.

Umurima uriho ubwoko bw'ibimera bitandukanye hakaba hagaragara umyumbati uri mu murima, iyi mirima ikaba yifashishwa mu guhinga ibihingwa bigiye bitandukanye bifasha abaturage mu kwiteza imbere.

Umurima mugari uhinzemo igihingwa cy'umuceri, hakurya hakaba hagaragara agasozi gatuwemo abantu ndetse hakaba hagaragara igicu gikeye.

Umurima uhinzeho ubwoko bw'ibihingwa bitandukanye hepfo hakaba hagaragara ubwoko bw'ibiti bigiye bitandukanye bigaragara ko ari avoka ndetse n'ibindi.

Umurima uhinzeho igihingwa, bigaragara ko ari ibigori bitarakura, hakaba hagaragara uruzitiro ndetse hakurya hakaba hari umusozi utuyeho abantu ndetse hakaba hari n'ubundi bwoko bw'ibimera bitandukanye.

Ikibaya kigaragaraho umurima uriho ibimera ndetse n'ibihingwa bitandukanye, imbere hakaba hagaragara akayira k'igitaka bigaragara ko ari umuhanda.

Isombe ni kimwe mu bwoko bw'imboga, zifasha abantu kugira ngo babashe kuba barya indyo yuzuye. Ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko kurya isombe kuko ibasha kuba yaturinda indwara zitandukanye.

Umusozi ugaragaraho ubwoko bw'ibimera bitandukanye byiganjemo amashyamba ndetse n'ibindi biti by'ubwoko bugiye butandukanye, aya mashyamba akaba atuwemo n'inyamaswa zigiye zitandukanye.

Ikibaya kiriho ubwoko bw'ibimera bitandukanye, byiganjemo inturusu ndetse n'ibindi biti bitandukanye, hakaba hagaragara igishanga kiriho ikidendezi cy'amazi.

Umurima uhinzeho urutoki rwinshi ndetse hakaba havanzemo n'ubwoko bw'ibiti bitandukanye, hakurya y'uwo murima hakaba hagaragara ishyamba ryinshi cyane.

Ikibaya gitoshye cyane kiriho igihingwa cy'icyayi ndetse n'ibiti byinshi cyane by'ininturusu, hakurya hakaba hari umusozi uriho ishyamba ryinshi cyane ndetse hakaba hagaragara igihu.

Ni umusozi uriho ishyamba ryinshi akaba ari ishyamba ririmo ubwoko bw'ibiti bigiye bitandukanye, iri shyamba rikaba rigira uruhare mu gukurura imvura kuko bigaragara ko hagaragara igihu.

Ni umusozi mugari, hakaba hariho ibyatsi ndetse n'ibimera by'ubwoko bitandukanye. Uyu musozi bigaragara ko nta buhinzi buwukorerwaho ahubwo wiganjemo ibiti ndetse n'ibimera.

Ni umugezi ku nkengero yawo hakaba hagaragara ibiti ndetse n'ibyatsi, hakaba hari igiti kimwe cyarimbutse cyambukiranya uwo mugezi, iyi migezi ikaba yifashishwa mu kubona amazi.

Umurima uhinzeho igihingwa k'icyayi ku nkengero ndetse no hakurya y'uwo murima hakaba hagaragara ibimera ndetse n'amashyamba agaragaramo igihu.

Ishyamba rya kimeza ririho ubwoko bw'ibiti bitandukanye hakaba hariho igihu, aya mashyamba akunze guturwamo n'inyamaswa z'ubwoko butandukanye aho zikurura ba mukerarugendo.

Agahanda k'igitaka kari hagati y'amashyamba ka kaba karimo ibinyabiziga ndetse n'abantu ku nkengero y'ako gahanda hakaba hagaragara amapoto y'amashanyarazi ndetse hakaba hagaragara n'insinga z'amashanyarazi.

Abahinzi batatu bari mu murima w'amashu, bakaba ari abagore babiri ndetse n'umugabo, bateruye amashu ndetse bakaba bahagaze mu murima urimo amashu agiye atandukanye.

Akarima k'igikoni gahinzemo ubwoko bw'imboga zigiye zitandukanye zirimo: ubutunguru, karoti ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, zikaba zifashishwa kugira ngo abaturage bagire imirire myiza.

Umurima munini uhinzeho ubwoko bw'ibihingwa bigiye bitandukanye bihinze ku murongo, hakurya hakaba hagaragara inyubako y'inzu ntoya ndetse ku nkengero z'uwo muririma hakaba hagaragara ibiti.

Umurima uhinzeho inanasi, hakaba hagaragara n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye. Abakora ubuhinzi bw'imbuto zitandukanye, zibasha kubateza imbere ndetse bakabona n'amafaranga.

Umubyeyi uri mu murima w'intababara aho ari kuzitunganya neza azizirika ku duti kugira ngo zibashe kuba zakura neza. Ubu buhinzi bubasha guteza imbere abantu babukora.

Umugabo wambaye ishati y'umweru akaba ari mu murima uhinzemo ubwoko bw'imbuto zitandukanye ziganjemo marakuja ndetse n'izindi zitandukanye.

Umurima uhinzeho igihingwa cya karoti hakaba hagaragara amatiyo ari kuvomerera uwo murima, ni byiza ko mu gihe duhinze tuba tugomba no gukoresha uburyo butandukanye bwo kuvomerera igihingwa.

Umurima uhinzeho ibigori, bakaba barifashishije uburyo bugezweho bwo kuvomerera. Ni byiza ko abahinzi bifashisha uburyo butandukanye bwo kuvomerera imyaka yabo.

Abagabo babiri bari mu murima w'ibigori bikiri bito bahetse amapombo bigaragara ko bari guteramo umuti, bambaye ibisarubeti ndetse bambaye na bote.

Umubyeyi uhagaze mu murima w'amashu yenda kwera, akaba afite umupira bigaragara ko ari kuvomerera, inyuma ye mu mashu hakaba harimo umurasire w'izuba, ku nkengero z'umurima hakaba hagaragara ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umubyeyi uhagaze mu murima w'amashu akaba ateruye umupira bigaragara ko ari kugenda avomerera, inyuma ye hirya y'umurima hakaba hagaragara ibiti by'ubwoko butandukanye.

Ibyuzi hagati y'ibyo byuzi hakaba hagaragara ubuhinzi bugiye butandukanye, aho ayo mazi yifashishwa mu kuvomerera iyo myaka ihinze ku nkengero y'ibyo byuzi kugira ngo abahinzi babashe kuba babona umusaruro uhagije.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa mu kuvomerera imyaka, ni bumwe mu bufasha abahinzi kugira ngo babashe kuba bavomerera imyaka yabo, bityo kugira ngo ibashe kuba yakera neza.

Ikibaya kigaragaraho ubwoko bw'ibimera bitandukanye byiganjemo insina ndetse hakaba hagaragara inzu ndetse n'ibindi biti birebire by'ubwoko bugiye butandukanye.

Ikibaya kiriho ubwoko bw'ibimera bitandukanye hakaba hahinze ibihingwa bigiye bitandukanye, ubu buhinzi bushobora gufasha ababukora mu kwiteza imbere ndetse bagateza imbere n'imiryango yabo.

Umusozi uriho imirima igiye itandukanye ndetse ikaba ihinzeho ubwoko bw'ibihingwa bigiye bitandukanye bigaragara ko ari agasozi gatuyeho abantu bakaba bahinga ubwoko bw'ibihingwa bigiye bitandukanye.

Ikibaya kiriho ubwoko bw'ibimera bitandukanye byiganjemo inturusu ndetse hakaba hagaragara ko ari ibihingwa bitandukanye bihinze muri icyo kibaya.

Udusozi duteze neza tukaba turiho ibimera bitandukanye, bigaragara ko ari icyayi ndetse hagiye hariho n'ibiti bitari icyayi, bigaragara ko ari inturusu.

Ikibaya kiriho ubwoko bw'ibimera bitandukanye aho bigaragara ko ari mu masaha ya nimugoroba hakaba hari kuva izuba, iyi misozi ndetse n'ibi bimera bibasha gukurura imvura.

Umuganga w'amatungo wambaye itabiririya y'umweru ndetse n'uturindantoki, bigaragara ko ari ugukingira inka z'inyambo ziri mu rupango kugira ngo azirinde ndetse azikingire indwara zitandukanye.

Ihene nyinshi ziri mu kiraro cyubakishije ibyuma ndetse na senyenge, abakora ubu bworozi bw'ihene banezezwa n'uko babasha kwiteza imbere kuko babona amafaranga, bityo bakabasha kugura ibyo bakeneye.

Inka iri mu kiraro akaba ari ikiraro cyubakishije ibyuma bigaragara ko ari ubworozi bwa kijyambere, abakora ubu bworozi bubabasha kubateza imbere kuko babasha kuba bakiteza imbere mu buryo bugiye butandukanye.

Inkoko nyinshi zo mu bwoko bwa sasu zikaba ziri aho zororewe, aho hari aho zirira ndetse n'aho zywera amazi, ubworozi bw'inkoko bukaba bushobora guteza imbere ababukora.

Inka iri mu kiraro cyubakishije ibiti, akaba ari inka y'igikara, hirya y'ikiraro hakaba hagaragara umurima uhinzeho ibihingwa cyangwa se ibimera bigiye bitandukanye.

Ni icyumba cyororewemo udushwi tw'inkoko, aho hagaragaramo ibikoresho bigiye bitandukanye, birimo akameza, aho zinywera amazi ndetse n'aho zirira, bikaba bizifasha kugira ngo zikure neza.

Ishyo ry'inka z'ibihogo, zikaba zubakiye ku buryo bwa kijyambere, zikaba ziri kurya ibyatsi baziteguriye, izo nka zikaba ziri mu nyubako yubakishije ibyuma, bifite irangi ry'umweru.

Ubworozi bw'inka bworowe mu buryo bwa kijyambere aho ziri mu kiraro cyubatse neza gisakaje amabati muri icyo kiraro hakaba harimo umukozi ukorera izo nka kugira ngo zibashe kuba zagira ubuzima bwiza.

Inkoko nyinshi ziri mu mabara y'umweru zikaba ziri mu nyubako yubatse ku buryo bwa kijyambere, aho harimo amatara ndetse n'ibindi bikoresho byinshi, ubu buryo bwororerwamo inkoko bukaba buzirinda indwara zigiye zitandukanya.

Inka nyinshi ziri kumwe n'abashumba baziragiye zikaba ziri kurisha ahantu mu gisambu kirimo ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti, abakora ubu bworozi banezezwa n'uko babasha kubona ahantu baragira amatungo yabo.

Inkoko nyinshi ziri ahantu zororewe mu nzu, hakaba harimo amacupa azifasha kunywa amazi ndetse hakaba hari n'ibyo zirya bigiye bitandukanye, ubu bworozi bukaba bushobora guteza ubukora imbere.

Inkoko zo mu bwoko bwa sasu zikaba ziri ahantu zubakiye zikaba ziri gutora, ubu bworozi bw'inkoko bubasha guteza imbere ababukora bityo bakabasha kubona ibyo bakenera.

Inka nyinshi z'inyambo zikaba ziri mu rupango rwubakishije ibyuma, hafi yazo hakaba hahagaze abantu bambaye amataburiya y'umweru bigaragara ko ari abaganga b'amatungo.

Ingurube ebyiri ziri mu kiraro cyubakishije imbaho, icyo kiraro kikaba cyubatswe ku buryo bwa kijyambere kuko kirimo sima, abakora ubworozi bw'ingurube bubasha kubateza imbere mu gihe cyihuse kuko zororoka vuba.

Inkoko nyinshi ziri ahantu zororewe ni inkoko ziri mu bwoko bwa sasu zikaba ziganjemo amasake, muri icyo kiraro harimo utudobo ndetse n'utundi dukoresho zifashisha zirya cyangwa zinywa amazi.

Umuganga w'amatungo akaba yambaye igisarubeti cy'ubururu, bote z'umweru ndetse akaba yambaye n'uturindantoki bigaragara ko ari gukingira inka iri mu rupango.

Ni inkoko nyinshi ziri aho bazororera zikaba ari inkoko ziri mu bwoko bwa Sasu. Abakora ubworozi bw'inkoko banezezwa nuko babasha kuba bakiteza imbere binyuze muri ubu bworozi bw'inkoko.

Abagabo babiri bambaye bote bakaba bari mu cyumba cyororewemo ubworozi bw'inkoko, ni inkoko nyinshi zikaba ziri mu bwoko bwa saso aho bigaragara ko ari umushinga bakoze.

Ingurube iryamye mu kiraro cyayo, ikaba yarabwaguye ibibwana byinshi. Abakora ubu bworozi bw'ingurube bubasha kubateza imbere kuko ingurube ari itungo ryororoka vuba.

Ubworozi bw'inka akaba ari inka ziri mu kiraro cyazo aho zitabwaho kugira ngo zibashe kuba zateza imbere abazoroye ikindi kandi zibashe kuba zatanga ifumbire.

Ikiganza giteruye amasaka bigaragara ko ari umubyeyi uri kugaragaza umusaruro yejeje, aya masaka akaba ashobora gufasha abantu mu kubona igikoma cyo kunywa ndetse n'ibindi bakenera mu buzima bwa buri munsi.

Inyubako irimo abantu bigaragara ko ari sitoke, hakaba hapakiyemo udufuka twinshi ndetse hakaba hanagaragaramo ubwoko bw'imashini zitandukanye.

Umuganga w'amatungo yambaye imyambaro yabugenewe yambaye n'uturindantoki ndetse na bote, ari mu kiraro cyororewemo ingurube bigaragara ko ari kuyitera urushinge.

Inkoko ziri mu kiraro cyazo cyubatse ku buryo bwa kijyambere hakaba harimo ibyo zirya ndetse icyo kiraro kikaba cyubatse ku buryo inkoko zibasha gutembera kugira ngo zitandura indwara zitandukanye.

Umugabo wicaye mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'amatungo, akaba yambaye itaburiya y'umweru, yambaye n'uturindantoki, afite ubwoko bw'imiti ndetse n'imbere ku meza hari imiti itandukanye.

Inka ebyiri ziri ahantu hubakishije ibiti muri icyo kiraro hakaba hashashemo ibyatsi bitandukanye ku nkengero hirya y'icyo kiraro hakaba hagaragara ibyatsi ndetse n'ibimera bitandukanye.

Umuganga w'amatungo yambaye ibikoresho byabugenewe birimo isarubeti ndetse n'ibindi bigaragara ko ari gufasha inka yagize ikibazo kuko yinjije ukuboko kwe mu nda y'amaganga yayo.

Umuganga w'amatungo akaba ari umudamu yambaye itaburiya y'umweru akaba yambaye n'uturindantoki tujya gusa ubururu, ari hafi y'urupango rwubakishije ibyuma ndetse ari kumwe n'abandi bagabo.

Ni inyamaswa y'agasozi ikaba yitwa impara, iri ahantu mu byatsi ndetse n'ibiti birebire, izi nyamaswa zizwiho kuba zikurura ba mukerarugendo baza kuzisura.

Ni inyoni ebyiri zihagaze ahantu mu byatsi, izi nyoni zikaba zitwa imisambi, izi nyoni zizwiho kuba zakurura ba mukerarugendo baza gusura, bityo bakaba bakishyura amadovize.

Inyamaswa y'intare ifite urugara ikaba iri ahantu mu byatsi, izi nyamaswa zikaba ari inyamaswa z'agasozi zikurura ba mukerarugendo bakishyura amadevize maze u Rwanda rugatera imbere.

Ni intare ebyiri zikaba ziri ahantu mu byatsi ndetse no mu biti zikaba zisutamye bigaragara ko hari ikintu ziri kureba hakurya, izi nyamaswa zikaba zizwiho gukurura ba mukerarugendo.

Inyamaswa z'agasozi bigaragara ko ari imvubu eshanu zikaba ziri kugenda mu mazi, hakurya y'icyo kiyaga hakaba hagaragara ishyamba ririmo ibimera bitandukanye.

Inyoni ziri mu rusobe rw'ibinyabuzima aho zibasha gukurura ba mukerarugendo baza kuzisura kugira ngo babashe kuba bakishima bityo bishyure amadovize maze u Rwanda rutere imbere.

Ni inyamaswa z'agasozi zikaba zizwi nk'impala, zikaba ziri kugenda ahantu mu mazi izindi zikaba zihagaze haruguru, izi nyamaswa ni ingirakamaro kuko zikurura ba mukerarugendo.

Ibinyamaswa bibiri byasamye bigaragara ko ari amadubu akaba ari ahantu mu byatsi, izi nyamaswa zikaba ari inkazi ikindi kandi zikaba zikurura ba mukerarugendo.

Inyamaswa iri ahantu mu byatsi bigaragara ko ari inyamaswa y'agasozi, izi nyamaswa zikaba zikurura ba mukerarugendo bazisura kugira ngo babashe kuba bakishyura amadovize.